Ireme ry'uburezi rigenda rinozwa umunsi ku munsi aho abana b'incuke bahabwa uburezi kugira ngo bategure ejo habo heza hazaza ubwo bazaba bagiye gutangira amashuri abanza.

Ibyumba by'amashuri bikwiye kuba birimo ikibaho ndetse n'intebe, kugira ngo abana bige amasomo yabo ndetse nta kibabangamira, ibyo bakabigeraho igihe ayo mashuri arimo isuku.

Amashuri menshi y'inshuke akunze gukoresha amashusho, hagamijwe kugira ngo abana bakiri bato basobanukirwe ibyo biga, kandi babishyire mu mutwe, bamenye no kuvuga neza binyuze mu mucyo.

Mu mashuri mato y'inshuke, ni ngombwa ko bashushanya ibikoresho bigiye bitandukanye, kugira ngo abana babisobanukirwe, igihe barimo biga cyangwa se bari kumwe n'abarezi babo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke yewe n'ayisumbuye, bakwiye kugira ibikapu batwaramo amakayi yabo, birinda ko yakwangirika cyangwa se ngo ahure n'ibindi bibazo bituma ibyo banditse cyangwa se bize bibura.

Inyubako nyinshi z'ubucuruzi, zikunze kuba zubatswe neza mu buryo bwa kijyambere kandi ziri ahantu, zishobora gukurura abakiriya neza kugira ngo abakora ibyo bikorwa, bakomeze kugira inyungu, zihambaye.

Mu mashuri mato y'inshuke hakunze kuba harimo ibikinisho, byifashishwa mu kwigisha abana cyane cyane kuba batazi kwandika, bityo bagakoresha imboni zabo kugira ngo babashe kugira byinshi bamenya, igihe bazajya mu mashuri abanza, bazamenye byinshi badahereye kuri.

Iki ni igikoresho kitwa gurude, umwana wiga muri materineri atwaramo igikoma cyangwa se icyayi.

Mu gihe abana b'inshuke bitegura kujya ku mashuri ni nggombwa ko ababyeyi babo babategurira ibikoresho bazajya banyweramo amata, icyayi, igikoma n'ibindi bityo bikabafasha kuticwa n'inzara igihe bari ku masomo.

Umwuga wo gushushanya uri mu bigize ubugeni, bihereza ubikora akazi nko ku bigo by'amashuri y'inshuke cyane cyane ko haba hakenewe ibyo bishushanyo, aho abana baba batari batangira kwiga bandika. Ibyo bigatuma abasha kubona amafaranga.

Mu mashuri agiye atandukanye y'uburezi, abanyeshuri bakunze kwigishwa ibice, bigize umuntu, birimo amaguru, amaboko, ibirenge, amaso ndetse n'amazuru.

Abana bato biga mu bigo by'uburererezi birimo amashuri y'incuke, baba bagomba gushushanyirizwa mu ibishushanyo bitandukanye bifasha mu masomo yabo, ibyo bikanoza imyigire yabo, ndetse bakiga bishimye.

Amashuri mato y'incuke akunze kwita ku burezi bw'abana b'incuke, aho usanga abarezi babo bashishikajwe no kubashushanyiriza ibintu bigiye bitandukanye, cyane kuba bagera ku kigero cyo kwandika. Ibyo bigatuma bakoresha uburyo bwo kureba, kugira ngo bamenye ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Mu mashuri mato y'inshuke, abarezi bakwiye kujya bashushanyiriza abana ibishushanyo bigiye bitandukanye, kugira ngo bibafashe kwiga ndetse no gusobanukirwa ibyo bababwira, mu gihe batari batangira kwiga kwandika.

Mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye bikunze kuba birimo ibyumba byagenewe ibiganiro, aho abanyeshuri basangirira ibitekerezo byubaka kandi bikanabafasha mu masomo yabo ya buri munsi, kugira intego ndetse no kugira icyo azabamarira mu buzima bwabo bw'ejo hazaza.

Amashuri y'incuke ni amwe mu bifasha abana bakiri batoya gutyaza ubwonko bwabo ndetse n'ubwenge; kugira ngo ubwo bazatangira amasomo mu mashuri abanza bazabe bataratangiriye kuri zeru; ahubwo bazagende bafite aho bahagaze.

Abana bato biga mu mashuri y'inshuke, bakwiye gukorerwa ibishushanyo, bigashyirwa ahantu bose babibona, byerekana amoko y'udusimba ndetse n'ibice byatwo bitugize, kugira ngo babashe kubimenya bityo batyaze ubumenyi bwabo.

Amashusho ariho abantu batandukanye harimo abari gutekereza.

Aka ni agasanduku kabamo ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare, harimo igikoresho kitwa irati gica imirongo ndetse n'ikaramu y'igiti.

Abana bakiri bato biga mu bigo by'amashuri y'incuke, usanga bahabwa ibishushanyo ndetse n'ibindi bikinisho byifashishwa mu myigire yabo ya buri munsi, igihe cyose bataratangira kwandika.

Ibi ngibi ni ibitabo, byifashishwa mu myigire n'amashuri ya pirimeri.

Mu rwego rwo kunoza ireme ry'uburezi, Minisiteri y'Uburezi, ikunze gutanga ibitabo byagenewe guhugura ndetse no kwigisha abarimu, bityo bikabafasha akazi kabo ka buri munsi harimo kugenera abanyeshuri ibyo bagenewe kwiga.

Amashuri abanza, akwiye kugirirwa isuku kugira ngo n'abayigiramo bumve bisanzuye kandi bakurikirane n'ibyo barimo biga, nta nkomyi.

Ibi ni ibinyampande byifashishwa igihe abarimu bigisha muri pirimaire barimo bigisha isomo ry'imibare, ndetse bikanabafasha gusobanurira abanyeshuri neza ibyo barimo babigisha.

Ababyeyi benshi bakunze kujyana abana babo ku ishuri babahaye ibikoresho birimo amakaye, amakaramu ndetse n'ibindi, ibyo bikaba byifashishwa mu myigire yabo ya buri munsi ndetse bakabaha n'ibindi birimo nk'ibyo twita mu ndimi z'amahanga buwate, iba irimo ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare.

Abana biga mu bigo by'amashuri y'incuke bagomba guhabwa ibikoresho byabugenewe bibafasha kugira ibyo bamenya mu byo bariho bakurikirana, cyane yuko batari batangira kwiga kwandika. Ibyo bigatuma bifashisha gusoma, cyane ko batangira kwiga kwandika bageze mu mashuri abanza.

Uyu ni umwana w'umuhungu, wiga muri pirimeri.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare birimo kompa, amarate ndetse n'amakaramu hamwe n'ikaramu y'igiti, n'agasunduku ibi bikoresho bitwarwamo.

Ababyeyi, barimo abamama, ndetse n'abapapa, bakwiye kugurira abana babo ibikinisho birimo ibipupe bibafasha, gukomeza imikurire yabo ndetse n'imitekerereze.

Iteka leta ifata iya mbere igakwirakwiza ibigo by'amashuri ahantu hagiye hatandukanye, hagamijwe kuzamura ireme ry'uburezi no kugeza uburezi kuri bose nta n'umwe uvuyemo.

Aya ni amashuri ya primary.

Ndabona abanyeshuri bicaye mu ishuri barimo bakurikirana amasomo.

Aya ni amashusho akenshi akwiye kwifashishwa n'abarimu bo mu bigo by'amashuri abanza mu gihe barimo bigisha abanyeshuri kuvuga ndetse no kuririmba.

Mu buryo bwo gukora akazi k'ubudozi abadozi baba bagomba gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo indodo inshinge ndetse n'utundi tuntu tw'imitako tubafasha kugira ngo ibyo bakora bigaragare neza kandi abakiliya babikunde.

Abantu benshi biteza imbere, binyuze mu myuga bakora, irimo ubwubatsi, ububaji, ubuhinzi, ubusuderi, ndetse n'ibindi, bigatuma batunga imiryango yabo kandi, ukagera no ku iterambere rirambye binyuze mu byo bakora.

Minisiteri y'uburezi akenshi ishyiramo ingufu nyinshi mu gutanga uburezi ndetse kuri bose aho abayobora ibigo bakusanyiriza abana hamwe ndetse bakabaha inyigisho ziboneye kandi zizabagirira umumaro mu gihe kizaza.

Mu bigo bigiye bitandukanye by'amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke. Abana bakunze kubakirwa ibikoresho. Birimo: imyicungo ndetse n'ibindi, bigamije kubafasha kuruhuka igihe bahawe kujya hanze.

Aha ni mu cyumba cy'ishuri, aho abanyeshuri bose bakurikiye barimo ndetse barimo bafata ibyanditswe ku kibaho.

Aha ni ishuri aho mwarimu w'i isomo ryyimibare arimo yigisha abanyeshuri bamukurikiye isomo ryyimibare, umunyeshuri w'umukobwa azamuye akaboko agira ngo asubize mwarimu.

Mu buryo bwo kunoza imyigire ababyeyi bakwiye guha abana babo ibikoresho byose bigombwa ku ishuri kugira ngo bakomeze bakurikirane amasomo neza ndetse bazanabagirire akamaro, aho baba biga amasomo agiye atandukanye harimo nk'imibare n'ibindi, ibyo bigatuma bahabwa ibikoresho bizabafasha mu gupima ibyo bariho biga.

Ni igikoresho gikoreshwa mu isomo ry'imibare cy' kaboate, kiba kirimo kompa, igoma, ndetse n'akandi kantu gasongora kereyo.

Abanyeshuri bakwiye kugira amakayi bigiramo igihe barimo biga kubera ko bibafasha kwiyibutsa igihe barimo basubiramo bageze mu rugo bityo bigatuma batyaza ubwenge bwabo.

Mu mashuri agiye atandukanye abanza, ni ngombwa ko abanyeshuri bahabwa ibitabo bibafasha mu myigire yabo, cyane cyane bikaba birimo inkuru zishushanyije kugira ngo bityaze ubwenge bwabo ndetse n'ubumenyi.

Mu bigo bigiye bitandukanye by'amashuri atangirwamo uburezi, usanga bagomba kuba bafite icyumba abana bahuriramo igihe bagiye gusubiramo amasomo yabo, bityo bikabafasha kwiga bisanzuye ndetse n'ibyo biga bikazabagirira umumaro mu buzima bwabo bw'ejo hazaza.

Amashuri agiye atandukanye, agomba kuba afite ibikoresho, bifasha abana kuruhuka, mu gihe bagiye mu kiruhuko cya saa sita bityo bigatuma babasha kwiga amasomo yabo bitababangamiye.

Ibyumba by'amashuri abana bakoresha biyigiramo, bikunze kuba byubatse mu buryo bwa kijyambere, cyangwa se bugerekeranyije, aho abana babasha kwiga kandi bisanzuye.

Uburezi ni inkingi ya mwamba ndetse bukaba ari intwari ikomeye cyane mu buzima bw'abatuye Isi bwa buri munsi. Aho impuguke mu by'uburezi bavuga yuko, iyo abana bose bahawe uburere bumwe ndetse bagishwa amasomo agiye atandukanye bituma bibeshaho mu buzima bwabo bw'ejo hazaza.

Igihe abanyeshuri bari ku ishuri bari kumwe n'abarezi babo baba bagomba gutega amatwi kugira ngo bakurikire ndetse bashyire mu bikorwa ibyo ubabwira bityo bagire imitsindire myiza ndetse bagaragaze n'umusaruro w'ikiba cyabajyanye ku ishuri, ibyo bigatuma bibeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Gahunda yo gukwirakwiza ndetse no kugeza uburezi kuri bose igenda ifata indi ntera, mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko Leta ishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo abana bose bajyanwe ku mashuri ndetse bige. Banamenye ibyo bariho bakurikirana, ibyo bigatuma bazibeshaho mu buzima bwabo bw'ejo hazaza.

Mu uburyo bwo kugeza uburezi kuri bose, Minisiteri y'Uburezi ishyiramo ingufu nyinshi ndetse igahereza amahirwe angana umwana mukobwa n'umuhungu.

Mu gihe mu mashuri yisumbuye barimo bakora ibizami, ni ngombwa ko abanyeshuri bagomba kwicara bafite ikaramu ndetse n'urupapuro byonyine, hirindwa gukopera kuko iyo bafashwe birukanwa.

Akenshi mu bigo by'amashuri, abayobozi bakunze kwicarana n'abanyeshuri mu gihe barimo babagezaho amategeko ndetse n'amabwiriza agenga ikigo cy'amashuri ndetse n'imyigire muri rusange

Uburere bw'abana bukwiye gusigasirwa uko byagenda kose, cyane ko igihe bitaweho neza no ku mashuri usanga ibyo bakora byose babikorana umucyo, babifashijwemo n'abarezi amasomo bakurikirana akarushaho kugenda anozwa neza.

Abanyeshuri baba bagomba gukora cyane kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ndetse bibesheho n'ejo hazaza. Ibyo bakabikora igihe bakurikiye amasomo neza, mu bwitonzi kandi bakubahiriza n'amategeko basabwa n'abayobozi babo.

Hano ni mu kigo k'ishuri rya segonderi, aho abanyeshuri mbere yo kwinjira, kugira ngo bakomeze mu kigo bagomba koga amazi meza n'isabune, ndetse hari n'umukozi wabigenewe ugomba kubibashishikariza.

Hano ni ku kigo cya segonderi, aho abanyeshuri barimo bakora purakitise.

Hano ni ku kigo cy' amashuri, abana bateraniye kuri asembo, aho barimo bumva amabwiriza y'umuyobozi.

Akenshi ibigo bikunze kuba biri ahantu hari kure y'umuhanda bityo bikaba ngombwa yuko abayobozi b'ikigo muri rusange bashyira icyapa ku muhanda cyerekana aho iryo shuri riherereye, kugira ngo abazana abana babo batayoba.

Ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye bikwiye kugira icyumba abana bahuriramo igihe bagiye gufata amafunguro kandi kikaba kisanzuye kuburyo bose kibakwira bakabasha kujyamo. Ikindi bagahuza ibitekerezo kuburyo abana babasha kwiga nta nkomyi.

Aba ni abanyeshuri bo mu kigo cya segonderi, aho umunyeshuri w'umuhungu ahagurutse ndetse arimo atanga igitekerezo ke akigeza ku bayobozi ndetse n'abandi banyeshuri muri rusange.

Ibi ni ibikoresho by'ubwubatsi bikunze gukoreshwa n'abanyeshuri biga muri Kaminuza ndetse n'ubumenyi ngiro, cyane cyane mu bwubatsi.

Ibi ni ibikoresho byakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'ubumenyingiro, birimo intebe ndetse n'ibindi.

Mu bigo by'amashuri akenshi usanga hari imyuga ibikorerwamo nk'ubudozi, ubaji, ubusudirizi ndetse n'ibindi. Ibyo bigafasha ababikora kwiteza imbere ndetse no kwibeshaho.

Uyu ni umwanya wagenewe guparikwamo amamodokari, muri Kaminuza y'ubumenyi ngiro.

Amashuri menshi cyane akunze kwigisha imyuga y'ubugeni cyane cyane hakazamo ububumbyi ndetse n'ibindi.

Iki ni ikibaho giherereye mu ishuri runaka, aho gikoreshwa kigirwaho ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko amasomo yigirwa mu ishuri.

Mu mashuri a atandukanye, akenshi hakunze kuba harimo intebe zimeze neza, zituma abanyeshuri bakurikirana ibyo bariho biga kandi bitababangamiye. Bikongera imitsindire yabo ndetse n'ubumenyi muri rusange.

Imyuga igiye itandukanye ikunze kwigishwa mu bigo by'amashuri. Hagamijwe kugira ngo ubugeni butazima bityo bigatuma ababyiga cyangwa se ababikurikirana babona amafaranga aturutse mu byo bakora n'intoki zabo.

Umwuga w'ububumbyi ni umwuga akenshi uba ujyanye n'ubugeni, aho ababumbyi babumba ibibumbano bigezweho, ndetse bakabishyiraho umutima, igihe barimo babikora.

Ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye bikunze kugira icyumba cy'uruganiriro ndetse n'aho abanyeshuri bahurira bagasubiramo amasomo yabo, uwo ukaba ari umwanya uba ari munini ku buryo bose bakwirwamo.

Aya ni amashuri ya Kaminuza makuru y'ubumenyingiro ndetse n'ikoranabuhanga.

Ibi ni ibikorwa by'ububumbyi, byigwa muri za Kaminuza ndetse n'amashuri makuru y'ubumenyi ngiro. Nkuko bigaragara, kano ni agatebe kabumbye cyangwa se gakozwe mu mabuye.

Ibigo by'amashuri makuru agiye atandukanye, bikunze kugira imyanya yifashishwa mu gihe abanyeshuri barimo basubiramo amasomo yabo.

Amashuri yose muri rusange, yaba amakuru cyangwa amato, akwiye kugira icyo twita ikibaho cyandikwaho, hagamijwe kugira ngo abana bafate mu mutwe ibyo babona ndetse n'ibyo bakora.

Ibi ni ubugeni bujyanye no kudoda imyenda igiye itandukanye, byigirwa mu mashuri makuru ya Kaminuza ndete n'ubumenyingiro.

Uko bwije n'uko bukeye Igihugu kigenda gitera imbere mu ikoranabuhanga, aho abanyeshuri bo muri kaminuza bahabwa mudasobwa zibafasha kwiga neza ndetse no gucukumbura ibyo barimo biga.

Leta y'u Rwanda inezezwa no kwegereza ibikorwa remezo Abaturarwanda, aho ibahereza imihanda ibafasha gukora ibikorwa byabo bya buri munsi ndetse bakibesha binyuze mu gukora imyuga itandukanye, irimo nko gutwara imodoka, amamoto, amagare ndetse n'ibindi.

Mu mashuri makuru ajyanye n'ubumenyi ngiro, abanyeshuri bakunze kwigishwa ubugeni bugiye butandukanye, burimo gusiga amarangi ndetse no kuyavanga, ibi bibafasha kwitunga ndetse no kuyibeshaho mu gihe bari hanze.